Abanyeshuri bagiye ku ishuri bakaba barimo gukaraba intoki, bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, aho bari gukumira indwara zaba zandurira mu mwanda biturutse mu ntoki.

Umwana uteruwe n'umubyeyi we, aho arimo guterwa urukingo n'umuganga yifashishije urushinge akarutera ku kuboko kwe amagana hejuru.

Umwana uri gusukira mugenzi we amazi amanukira mu ndobo, aho uyu mwana arimo gukaraba yamagana umwanda yimakaza isuku ndetse anarwanya indwara zandurira mu mwanda.

Umwana w'umunyeshuri aho yaje gukingirwa kwa muganga, akaba ari kubifashwamo n'umuganga ubizobereyemo amutera urushinge rw'urukingo ku kaboko k'iwe.

Umujyanama w'ubuzima, aho arimo aragira inama umubyeyi, amubwira yuko umugore n'umugabo ntaho bataniye bose bangana kandi bakwiye gufatira inshingano umwana wabo ku bose hamwe.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka nka cumi n'ibiri, aho ari kuvoma amazi akoresheje ikivomesho cye, ahagaze mu mugezi hagati amaguru y'iwe yose ari hasi, atagaragara igice cyayo cyo hasi.

Abantu bahuriye hamwe, aho bari kuganira ku bijyanye n'uburyo hahabwa uburere bwiza ku bana bigendeye mu byo barya, ku buryo batazigera bagira ingaruka z'ibiryo bafashe ngo zibe zabatera indwara zitandukanye.

Umubyeyi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, aho arwaye ndetse n'umuforomo uri kumufasha kumurebera ku ngaruka z'indwara afite, anamupima yumva mu nda uko ameze.

Imbaga nyamwinshi bahuriye hamwe, aho bahuriye hamwe kugira ngo batere ibihingwa bitandukanye, harimo ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti iba igenda yifashishwa ahantu hagiye hatandukanye mu gukiza indwara.

Umugabo wicaye muri ruhurura aho ubu afite uburwayi bwo mu mutwe, akaba afite amashashi ndetse yambaye n'igitenge cy'abategarugori.

Inama yahurije hamwe abakeneye inyungu ku baturage aho baje gufatira umwanzuro, indwara zandura zitandura mu rwego rwo gukumira guhora banduza bagenzi babo.

Umuntu w'igitsina gore urimo kuganirizwa na mugenzi we w'igitsina gore, aho arimo kumufasha mu gukemura ibibazo bijyanye n'indwara afite y'uburwayi bwo mu mutwe.

Ibishushanyo byerekana amagambo atandukanye agiye arimo gufasha abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bafite ibitekerezo bitandukanye byo kuba bakwirinda ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye.

Umubyeyi wikoreye igitebo kirimo imigozi izwi nk'ibijumba ndetse kirimo n'isogi cyangwa se imiravumba, aho yifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda itandukanye.

Umurwayi wagiye kwivuza indwara y'amenyo, aho arimo kwasama yereka umuganga iryinyo akeneye ko amusimburiza, muganga aho afite igikoresho kibitse amenyo agendeye ku ngano y'amenyo y'abantu.

Umugabo washinyitse ufite isume ku rutugu rwe, aho arimo gukoresha uburyo bwo koza amenyo wifashishije akadodo kabugenewe, aho byagaragaye ko hagati y'amenyo uburoso butahakesha.

Umwana uri gusuzumwa n'umuganga, aho arimo kumurebera mu kanwa ke, abasha kuba yareba amenyo y'imbere, nimba ataranduye cyangwa se afite ibibazo byatuma asimbuzwa.

Umuganga uri mu cyumba cy'ubushakashatsi, aho arimo kwifashisha ibyuma by'ikoranabuhanga apima imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, anandika ibisubizo abonye ku mpapuro.

Umugabo urimo koza mu kanwa ke, yoza amenyo ye kugira ngo acye; hifashishijwe uburyo bugezweho bwo gukoresha akadodo ugacisha hagati y'amenyo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bwihariye, aho abantu batatu bashobora kwicara muri ziriya ntebe ndetse bakaba bahabwa ubuvuzi bukomeye bwerekeranye n'indwara zo mu mutwe.

Umugabo wasamye urimo kwereka muganga iryinyo rye rifite ikibazo, aho muganga arimo kumufasha gupima iryinyo agiye kumusimburiza, akoresheje ayo afite.

Umuforomo urimo gufasha umugabo uri mu za bukuru, kumufungira ishati isa ubururu, ndetse ubona ko bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda kuba ba kwanduzanya indwara zigendera mu mwuka.

Umukobwa w'umwangavu uri gufasha undi mu mama w'umukecuru, aho we ari kumufasha kuba yatambuka. Kubera ko ari mu zabukuru atabasha kugenda neza uko bikwiye adafite ikimufasha.

Umugabo usheshe akanguhe, urimo gufashwa mu kwisukura umubiri kuko atakibashije, ari mu zabukuru ubona ko bari kumwoza amazi meza n'isabune.

Abantu bicaye mu ntebe ahantu runaka, aho babiri muri bo bafite inkoni bigaragara ko ari abantu bakuze b'abasheshe akanguhe, aho bari kuganira, bagirana inama ndetse bungurana n'ibitekerezo.

Umugabo umwe urimo gukorwa mu biganza, aho ari gushimirwa kuwb'ibyo yagejejeho abaturage mu bijyanye n'ubuzima bwabo, aho bari kumubwira ko akomeje guteza imbere iterambere ry'abaturage.

Ikirangateyego cy'imivurire myiza mu baturage mu Rwanda, aho iki kirangantego gifite ikimenyetso cy'umuntu ufasha undi mu kiganza mu rwego rwo gufashanya.

Itangazo ryerekeranye n'ibijyanye n'imibereho cyangwa se ubuvuzi bukorerwa mu gihugu, aho barimo gukangurira abaturage, kwegera ibitaro bibegereye bakivuza indwara zitandukanye.

Uturahure dushyirwamo urugero rw'ibyo bapimye ku muntu, bareba neza cyangwa se basuzuma niba adafite indwara y'icyorezo, yateye izwi ku izina ry'ubushita bw'inkende.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ino nyubako ifite umutako w'igihingwa giteretse mu ndobo ndetse ikaba ihuriramo abarwayi ndetse n'abavuzi.

Inzu y'ububiko bwo kwa muganga, aho abaganga bayifashisha mu kubika ingero z'amaraso y'abantu batandukanye, bitewe n'ibyiciro by'ubwoko bw'amaraso ya bo.

Abaturage baturutse mu duce dutandukanye, aho baje bagahurira kwa muganga, buri wese afite ikibazo cye cyihariye cy'indwara, aho baje gufashwa bagahabwa ubufasha mu ndwara zabo bakaba bari butahe bameze neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho ibi bikoresho harimo ibivura amaso ndetse hakaba harimo na ekara nini ndetse n'intebe umurwayi ndetse na muganga bicaramo.

Urugi rufite imiryango ibiri, rufite amabara y'umweru aho rwerekeza mo imbere mu bitaro, aho abaganga basuzumira umurwayi uburwayi yaje afite.

Icyumba cyo kwa muganga aho umurwayi aruhukira mu gihe ari kuvurwa, ndetse n'ibimashini zifashishwa mu kuvura umurwayi, bitewe n'uburwayi afite butandukanye.

Inzu yo kwa muganga izwi nk'inzu y'ububiko, aho bwifashisha mu kubika imiti itandukanye cyangwa se amaraso yifashishwa mu gufasha abayakeneye.

Icyumba cy'ubuvuzi aho umurwayi aryama ku gitanda mu gihe ategereje ko bamusuzuma ndetse akaba aba anafatira imiti aho ku gitanda.

Inzu y'ibitaro byerekeye imivurire y'abana cyane cyane, aho abana baba abarwaye indwara z'imirire mibi cyangwa se izindi ndwara bahurira n'abaganga bakabafasha.

Icyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye bigera muri bine, aho abarwayi bagize impamvu zituma batemererwa gutaha, baba babacumbikiye kugira ngo bakomeze gukurikiranwa n'abaganga.

Umuganga uri gusuzuma imashini ziri mu isuzumiro, inzu yubakiwe kujya ikorerwamo ubushakashatsi bwinshi butandukanye, bwaba ubw'imiti, bwaba ubw'indwara ndetse n'ibyorezo bishyashya byugarije isi.

Inzu abantu bo kwa muganga bifashisha mu kubika ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyo bifashisha mu isuzuma rya buri munsi, habamo amaraso cyangwa se ibindi bagenda bakoresha ku barwayi.

Inyubako y'ibitaro bya Shyira, aho abarwayi ndetse n'abaganga bahurira mu rwego rwo kunoza imihurire yo gukemura ibibazo byabo bigendanye no kuba barwaye.

Inyubako yo kwa muganga, aho dufite intebe zitegererezwamo n'abarwaza ndetse n'intebe zicarwamo n'abaganga iyo baje kubabwira uko umurwayi wabo ameze.

Ikirangantego cyerekana ubuvuzi bw'ibanze, aho kigizwe n'umuzenguruko uri mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo akizengurutse hagati harimo ikirangantego tuzi nk'umusaraba, aho bari gukora amahugurwa ku bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yari arimo arirukanka akaba ananiwe, agahagarara, agasutama ndetse akaba yari arimo kugerageza kubaka ubuzima bwiza.

Indyo ikwiye umuntu wese akwiye kuba afata yiganjemo ibiterambaraga, imbuto, ibitunga umubiri ndetse n'ibindi bitandukanye aho umuntu agiye gufata iyi ndyo amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga ahabera ikizwi nk'ubushakashatsi cyangwa se isuzuma rikomeye, rikorerwa umubiri w'umuntu, aho wenda baba bagiye ku mubaga cyangwa se ku mubyaza, ni aha bikorerwa.

Umugabo uryamye ku gitanda yambaye inkweto, aho arimo gukorwaho n'umuganga mu ntege ze amuvura kuko yahuye n'ibibazo byo kuribwa mu maguru.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi, aho amaze gukora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba arimo ananura amagufwa ye kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Icyapa kigaragaza ubuvuzi bukorerwa umubiri, aho umuntu mugenzi wawe agukandira ingingo zose, aho wumva ufite ikibazo hose ndetse ukahava wumva umerewe neza ibizwi mu kirimi cy'uruzungu nka massage.

Abantu bari mu itsinda rimwe, aho bahanze amaso mugenzi wabo uri kubereka uburyo waha ubuvuzi bw'ibanze umuntu aramutse ahuye n'ikibazo runaka muri kumwe nta mpamvu yo kumujyana kwa muganga ako kanya ufite.

Ibishushanyo bigaragaza ibiganza bine, herekana uburyo bambaramo umugozi urinda ikiganza, mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri itandukanye, kugira ngo atangirika ikiganza.

Amashusho agaragaza uburyo abantu bakwiye gukoramo imyidagaduro, birinda kuba bakwanduzanya indwara zandura, n'izitandura mu buryo bugiye butandukanye.

Ikarito ifite ubutambike burebure, aho ifite umuzenguruko w'ubururu, aho iyi karito irimo ibikoresho byifashishwa n'abantu batandukanye, bari muri siporo cyangwa se n'abari kwivura.

Umuntu ufite icupa ririmo amazi asukuye, aho arimo kuyanywa agira ngo afashe ubuzima bwe bwa buri munsi kugenda bumera neza.

Umugabo wicaye impande y'igikapu cye ndetse wambaye umupira wo gukorana imyidagaduro, yambaye n'ingofero. Urimo kunywa amazi bigaragara ko yari afite inyota, kandi amazi afasha mu igogora ryiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bishobora kuba byakwifashishwa kwa muganga, cyangwa se mu butabazi bw'ibanze, muri make akantu k'agakapu karimo ibikoresho by'ibanze kaba kagizwe n'ibikoresho bigaragara hano.

Amacupa ari mu bwoko butandukanye, afite ibipfundikizo bifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, aho aya macupa yifashishwa mu kubika neza kugira ngo azigamire ubuziranenge bw'ibihingwa cyangwa se imiti.

Ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti, aho dufite ibizwi nk'uburyo bukoreshwa bakora ino miti bifashishije ibyo bihingwa.

Igihingwa gihingwa ku butaka bubonetse bwose, aho iki gihingwa kiziwi kw'izina ry'amashu, aho gifasha abaturage kurya indyo yuzuye kuko hikiriye bitandukanira hamwe n'indwara.

Umuti wifashishwa akenshi n'abashakanye cyane cyane kubera ko uvura indwara zifata mu myanya ndangagitsina, harimo kuba warangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ndetse no kugira amasohoro atarangira.

Amavuta ndetse n'isabune ikozwe mu gikakarubamba, aho ifasha uyakoresheje wese cyangwa se uyikoresheje wese, mu kugira uruhu rutemba itoto, abamubona bose bakabyishimira.

Igihingwa ifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara zifata mu buhumekero zizwi nk'ibicurane cyangwa se n'indwara ziterwa n'imirire mibi.

Imiti y'ibihingwa itandukanye ifasha abayikeneye mu buryo bw'uburwayi cyangwa se abayikeneye mu buryo bw'ubucuruzi uko baba bayicuruza ikagurwa n'abarwayi.

Imiti itandukanye yivanzemo ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye aho irimo gukoreshwa mu gukora ifu basekura kugira ngo ibone uko izacuruzwa yujuje ubuziranenge.

Amacupa manini arimo ubwoko butandukanye bw'imiti ivura ndetse iyi miti ikaba ikozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, aho ikiza indwara zirimo inzoka n'izindi.

Igihingwa kizwiho gukiza indwara zitandukanye, aho ababigiye umwuga bakifashisha mu gukoramo imiti itandukanye ikagurishwa ku isoko.

Amavuta y'ubwoko butandukanye akozwe mu mbuto zacu ndetse n'ibihingwa byacu, aho harimo akozwe mu gikakarubamba kivanze n'amaronji ndetse ayo mavuta akaba ari no mu macupa manini maremare.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi ino miti ikaba ikozwe mu bikakarubamba, mu mbuto ndetse no mu bindi bihingwa bitandukanye, bihingwa n'Abanyarwanda.

Amacupa arimo imiti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye ndetse n'amacupa arimo ibyayi cyangwa se ibizwi nk'ikawa, aho abantu bayinywa.